Uyu muntu arwariye kwa muganga arimo arimo serumu ku ruhande rwe hariho ameza ameza hariho igikombe, hariho sharijeri n'amafaranga arimo ibinini, akaba ari kunywa icyayi cyangwa se igikoma.

Aha ni kwa muganga. Ura wambaye itaburiya cyangwa umwenda w'umweru ni muganga. Uyu wundi bari kumushyiramo igipimo, bari kumupima umuvuduko w'amaraso cyangwa se uko umutima utera. Bari kumupima uko umubiri umeze muri rusange.

Iyi ni posite do sante cyangwa ikigonderabuzima giciriritse. Aya maposite do sante yegerejwe mu tugari twose. Buri kagari usanga gafite ikigonderabuzima giciriritse, aricyo poste do sante zifasha abaturage muri serivisi zo kwivuza.

Ni umurima uteyemo ibigori, urimo n'igiti cya sipure , iki giti cya sipure ni igiti gikoreshwa cyane cyane mu gutera amazi y'umugisha ari no gukubura na byo bikunda gukoreshwa.

Izi ni isombe cyangwa igihingwa cy'isombe ,isombe ni igihingwa kiba kimeze kifite ama uruti n'amababi ameze nk'ay'imyumbati, ariko isombe zo barazi barazisoroma bakazisekura cyangwa se bakazijyana ku kuzishesha barangiza bakaziteka.

Aba bantu bari gutinda ikiraro cyangwa urutindo; ndabona ibiti bafashe bamwe bari gutera imisumari kugira ngo ibiti bikomere.

Iki ni ikibara kirimo ibyatsi byinshi ariko iki cyatsi kigaragara kinini tucyita igifuranende. Igifuranende kikaba ari umuti ufasha abantu cyane cyane mu miti gakondo.

Ikintu ni icyatsi bita imbutabuta, imbutabuta n'ibyatsi bikunda kuba ahantu hari ibinani, cyangwa hadahinze, ibi byatsi bikaba ari umuti gakondo, biravura indwara zitandukanye.

Ibi ni ibyatsi bita umudakubitwa, mudakubitwa ni ibyatsi abana bisigaga kugira ngo batabakubita cyangwa se ibibakoresha mu gihe hari ahantu hari intozi kugirango zigende.

Iki ni icyatsi bita igicuncu, igicuncu gikunda gukoreshwa ni umuti uvura ibimeme ariko abana bakunda no kubikoresha bahanagura ibibaho ari ibibaho byo ku ishuri cyangwa kera natwe twabikoreshaga duhanagura imbaho twandikagaho z'ibiti.

iki ni icyatsi cy'igifuranende ,gifuranende n'icyatsi kigaragara cyane cyane ahantu hadahinze cyangwa hashobora no kuba hahinze ariko hari hari ikinani cy'igifuranende kikaba ari umuti uvura igisebe

Iki ni igiti bita intobo, intobo zikaba ari umuti kuko cyane cyane abagore cyangwa se abakobwa bazikoresha mu gihe cyo gukuna.